Ni abantu bari kwigisha gukongeza urumuri, hariho abana bambaye imyenda y'akazi mu bigaragara bari kwiga gukoresha itoroshi y'umuriro.

Abakobwa bambaye neza, neza, neza, twaje kubyitiranya nk'Abajiya, bambaye n'ingofero inyuma hariho ibirango bya polisi.

Abagabo bambaye amakoti y'imikara n'abandi bambaye iza gisirikare abo benshi dukunda kwita aba porisi. Aba porisi ni beza cyane baturindira umutekano.

Abaporisi batatu bahagaritse amamoto ngo ntibagende mu bigaragara ko imbere hari ikintu cyaba. Abamotari benshi cyane. Kunyura ku mupolisi atagahaye uburenganzira si byo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'abandi benshi bambaye udupfukamunwa tudasa n'utwe, bisa naho bari kumwerekera hirya ahahagaze abapolisi.

Bari mu nzu nyinshi nini, wagira ngo bari muri sale, hariho umuntu wagira ngo arikubaganiza, ababwira ikintu kibi ashaka kubamenyesha, ni abantu wagira ngo bari mu nama.

Abantu benshi bafite bari mu nama, bigaragara bari kuganira ku cyabateza imbere, harimo ubahagarariye mu bigaraga niwe muyobozi.

Abantu benshi bisa nk'aho bari muri sale ahantu bari kurema inama, harimo abayobozi, abasirikari n'abandi bantu benshi bambaye amakote .

Abakobwa babiri umwe wambaye iby'umweru, undi yambaye ijya gusa n'uburu n'akantu mu mutwe. Bicaye kuri tapi hagati yabo harimo akebo gatoya. Bisa nk'aho bari kwifotoza.

Abantu bari kubyina imbyino gakondo benshi bazi nka taradisiyoneri ,ni imbyino gakondo abazungu barazikunda cyane ,kenshi bava iyo hakurya bakaza kuzireba bakazana n'amafaranga.

Abagabo bari gukina umukino, umukino ukunzwe n'abatari bake bakunda kwita igisoro, igisoro ni umukino mwiza wagufasha kuruhura mu bwonko.

Abakobwa batanu, barenga batanu bicaye bafite igicuma n'utundi tuntu twa kera, twa kera bakundaga gukoresha, ni abakobwa bambaye neza cyane.

Umugore uri kugosora ibishyimbo ku nkoko bisa nkaho yahoze ari kugosora cyane, kuko hirya hariho umufuka n'undi muntu usa naho nawe ari mu kazi.

Abagabo bari gusoma mu muvure inzoga. Inzoga abasaza barayikunda. Kandi ibi ni ibintu bya kera abantu benshi twibuka,..

Abagabo ba kera, bisa nk'aho bagaragaza u Rwanda rwa kera, bafite inkoni, n'imisatsi iteretse ukuntu. Bisa nk'aho bagaragaza ibintu bya kera.

Ni ikintu bakunda gutwaraho abantu babarwayi, benshi Abanyarwanda benshi bakunda kwita ingobyi. Imbere hariho umugabo usa n'aho ayiteruye. N'inyuma uko byagenda kose hari abantu.

Inka zifite amahembe maremare cyane, zitambaye n'urugori mu ijosi. Izi nka ni zimwe za kera twibukiraho ahakera h'u Rwanda.

Abantu benshi bari kuvuza ingoma, harimo n'abazungu, bisa nk'aho bari kuvuza ingoma, basuye abantu bo mu cyaro. Ingoma nazo ni nziza, ni izo hambere, ingoma ni nziza cyane.

Abantu bafite ingoma enye, nziza, bari kuzivuza. Bambaye imisatsi miremire y'umweru.

Umugabo wikoreye ikibindi, n'abagore bane bamukurikiye bikoreye ibyibo, bisa n'aho bavuye mu bukwe.

Umugabo n'umugore, hirya hariho abandi bantu benshi, bisa naho bari gukoma mu mashyi, aba bari guhererekanya agaseke.

Umutiba uri mu giti, umutiba ni mwiza ubamo inzuki ukavamo ubuki kandi ubuki ni umuti buranaryoha, ubuki ni bwiza cyane.

Ni uduseke tw'umweru n'umutuku n'umukara, bakunda ku twifashisha akenshi iyo bagiye mu makwe cyangwa se mu bantu bakuru bo hambere watubikamo n'ibintu.

Izi ni ingomzi za kera, hariho inini n'intoya, n'akandi karinganiye zifite n'imirishyo yazo.

Igishushanyo bashushanyije kiriho abantu bafashe ibiseke, n'ibyibo, n'ibitebo. Bisa nk'aho ari abakera. Ni igishushanyo cyiza cyane.

Umugabo uri kubyina, inyuma he hariho inka zifite amahembe maremare kandi meza cyane, hino hariho umuriro becanye, uri kwaka.

Ni tapi. Umusambi. Umusambi uri mu mucaca ahantu, umusambi mwiza cyane, uzinze neza, kandi ni umusambi umwe w'abakire. Ni umusambi mwiza cyane.

Abantu b'abazungu bari kuvuza ingoma imbere yabo hariho umugabo wigikara usutamye hari n'umugore ushaka kubyina, abazungu ni beza batuzaniraga amafaranga.

Imbyino gakondo ni imbyino abantu benshi bakunda. Ni imbyino bisa nk'aho abantu bari kubyina. Imbyino gakondo babyereka abantu bari imbere yabo.

Umukino ukunzwe n'abatari bake, benshi bawita igisoro abasaza barawukunda cyane, ni mwiza cyane kandi uruhura mu mutwe ku bantu bawukina.

Abakobwa bari kugaragaza ibintu bya kera, bari kugosora, imbere yaho hariho ikibindi n'abantu bari kubacuririra, bisa nkaho bari kubyina, barabyina pe.

Igiti gifite ibishami byinshi, mu giti harimo umutiba. Umutiba ni mwiza uzana inzuki, inzuki zikaduha ubuki.

Igiti gifite amashami menshi, mo hagati harimo ikintu bita umutiba. Iki giti bakunda kucyita, bakunda kucyita igiko. Gifite amababi manini.

Ni intebe za kinyarwanda zikorwa n'abahanga bo hambere. Hafi aho hariho umuntu usa n'aho ari kuzicuruza . Inyuma y'aho hariho umumama umeze nk'umukiriya.

Ingobyi, ingobyi ni bimwe mu bikoresho abantu bakoreshaga ba kera, bari guheka abantu kabone ko n'ubu bikibaho, babajyana ku bitaro cyangwa se barembye cyane, ingobyi ni nziza cyane.

N'uduseke turi ku kirago n'uduseke turi kumwe n'ibicuma n'imiseke, n'ibimwe mu bikoresho bya kera.

Iningiri ni imwe mu bikoresho bya kera abantu bakoreshaga bari kuvuza, bashaka gukora indirimbo, iningiri ni nziza cyane, ikora umuziki.

Umuduri bawifashishaga mu gucuranga indirimbo za kera. Indirimbo za kera ni nziza, zitwibutsa abahanzi ba kera.

Ahantu bari gusekura amakawa cyangwa se ibindi bintu bitagaragara. Umusekuzo cyangwa se isekuru, ni ibintu byiza abantu ba kera bakoreshaga, ni byiza cyane birafasha kubantu b'abakecuru bakuze.

Akagabo kari kuvuza umuduri wa kera. Kambaye amarinete. Kambaye ikoti ry'umukara, kambaye ishati y'umweru, na karuvati yumukara. Kari kuvuza umuduri. Umuduri ni mwiza cyane, ukora umuziki wa kera, benshi abakecuru ba kera bakunda.

Ni abantu bari k'umuvure wa kera bisa n'aho bari gukama , ariko bakamisha ibirenge, nyamara ibi bintu njye simbikunda ntabwo byemewe.

Uyu ni umuduri, umuduri ni mwiza ni kimwe mu bikoresho bya kera abantu bakoreshaga, umuduri ni mwiza ucuranga indirimbo nyinshi.

Abantu benshi bari kubyina imbyino gakondo, harimo abakobwa bambaye neza cyane bigaragara ko bafite n'ibintu by'ibicuma binini cyane.

Abakobwa benshi bisa naho bari kumurika ibintu gakondo bya kera, harimo umwe ufite imisatsi myinshi.

Igicuma cyeze neza, iyo cyeze bagica umutwe bakagitara mu ifumbire cyangwa se mu itazi kikavamo igicuma cyiza.

Abantu bari mu bwato benshi cyane, bisa n'aho bashaka kwambuka bava ku mwaro umwe bajya ku wundi, bafite ibintu byinshi, harimo abamama bari kureba hakurya, hakurya yaho hariho abandi bantu benshi cyane.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo, bisa n'aho ari abake ari abakera babyina ibintu bya kera, kenshi bino abazungu baza kureba mu Rwanda, bakaza bazanye amafaranga.

Abantu ba kera bisa nk'aho bahetse akana ku rutugu, ariko bisa nk'aho ari abakobwa bahangayitse cyane, kandi bafite ibibazo.

Ikibindi ni kiza. Ikibindi ni kimwe mu bikoresho bya kera, abantu ba kera bakoreshaga bakabyifashisha mu gutara inzoga z'umuhama ziryoshye cyane.

Umugabo bisa n'aho ari umugabo wa kera, afite inkono y'itabi ndende. Afite umusatsi muremure, yambaye ishati y'umweru.

umugabo usa nk'aho ari kubyina imbyino gakondo, afite imisatsi miremire y'umweru. Iruhande rwe hariho undi mukobwa nawe uri kubyina imbyino gakondo.

Umukecuru uri kuboha ikirago gikozwe mu... mu migozi. Umukecuru uri gukora ibirago bya kera, bisa n'aho ari ibirago by'abakera.

Ni inka zo hambere, zifite amahembe maremare nizo zigaragaza inka nyarwanda, ziba zifite amahembe meza ateye neza cyane.

Abagabo bari kubyina imbyino gakondo bafite imisatsi bambaye miremire, hirya hariho inzu z'ibyatsi abagabo bari kubyina cyane bishoboka.

igikoresho kifashisha mu gukanika, cyangwa se mu gufata ibintu umuntu ari mu kazi. Cyangwa se gukata ibintu. Ipennsi ikora akazi kenshi, ku muntu uyikoresha, yamuhesha amafaranga menshi. Ipensi ni nziza cyane.

Terefone nini ifite kava bigaragara ko irimo pasuwadi; terefone ni nziza cyane.

Ibyuma by'ikoranabuhanga benshi bakunda kwifashisha mu kazi nka taransifo, ni ibintu by'ikoranabuhanga by'abazungu bazanye.

Isaha y'umukara, ifite igikomo cy'umwenda, ikagira volime yo kubirindura. Iyi saha irahenda, kandi iyi saha ni nziza cyane.

Igikoresho bakoresha bari gusohora impapuro, bari kuzandikaho amagambo, cyangwase bari gusohora amafoto, iki ni igikoresho cyiza cyane , ku bantu bagikoresha kibabyariraga inyungu.

Ni inzu nziza isa naho ari ishuri ryigwamo, ikigo kinini gifite amabara y'umuhondo.

Icyuma gishinze kimwe, benshi bakunda kwita igipironi, bifashisha mu kumanika insinga z'imiyoboro y'amashanyarazi, gishinze ahantu mu kibaya.

Inzu igizwe n'amatafari y'umutuku, iri mu bwoko bita urusengero, yegeranye n'umuhanda ufite borodire zifite amabara, umweru n'umukara. Hafi ya ho hari imodoka n'abantu.

Ni inzu nini, ifite amatafari yumutuku, ifite amabati y'ubururu, benshi bakunda kwita urusengero. Imbere yaho hari umusaraba hejuru.

Inzu nziza cyane, inzu imbere yaho hariho pasikarume nziza cyane, hakurya hariho amabendera ni nzu nziza, hejuru yaho hari ikirere gikeye cyane.

Inzu nini cyane ifite amabara y'umweru n'umutuku, isa n'aho ari nziza cyane, ifite ibirahuri by'umukara, hasi ya ho haparitse imodoka ebyiri n'umucaca usa neza cyane.

Ni abantu barenga batatu bari gukora akarima k'igikoni, bisa n'aho ari umuntu barimo kugakorera. Akarima k'igikoni ni keza gahingwamo imboga, imboga zikagaburwa.

Padiri ari kumwe n'abamasera be bose, ni benshi cyane bisa n'aho barimo gusenga, cyangwa se baririmbira Imana.

Amazu menshi cyane. Bisa n'aho ari amashuri. Asakaje amabati y'umutuku. Harimo na kaburimbo y'umukara . Amashuri ni meza cyane. Afasha abana kwiga, natwe twese. Kabone ko ubungubu n'umuntu mukuru yiga. Ni meza cyane.

Inzu nziza cyane ifite hasi h'umukara. Ifite amabati y'ubururu, inyuma hari ibiti, ibiti byiza cyane.

Ahantu bisa naho amazu yaho ari mashyashya. Aya mazu ni meza cyane, bisa naho ari umudugudu w'icyitegererezo, ahantu heza cyane.

Ikirere cyiza, isantere ikeye isakaje amabati y'umutuku ifite inzu zisa n'aho zicucitse cyane. Hafi y'aho hari ibiti bitari birebire cyane.

Inzu nziza iriho abantu bisa n'aho ari abayobozi, iriho umusirikare, inzu nziza, wagira ni nshya. Inzu, mu bigaragara yakorerwamo ibintu bya leta nk'amashuri n'ibindi.

Amazu menshi bisa nkaho aramacumbi ,cyangwa se amazu abanyeshuri bigamo bimwe bita amashuri.

Ni inzu nziza ndende bisa naho ari kuri biro, ifite hejuru ikirere gisa neza ahantu mu cyaro. Inzu ni nziza, iyi nzu ni nziza cyane.

Inzu nziza igaragara nk'ishuri ifite igipangu kinini, gifite n'amashuri magufi, inyuma yaho hari ibitari byinshi cyane.

Umuhanda w'umukara ukikijwe n'amapave y'umweru n'umukara n'ibipangu birebire n'ibiti, ndetse n'amatara. Umuhanda ni mwiza.

Iyi modoka iparitse ahantu hari imbuga nini, hakurya hariho inzu, inyuma y'aho hariho amashyamba. Hejuru hariyo ikirere gikeye cyane n'izuba. Izuba ni ryiza riratumurikira, imodoka na yo ni nziza, idufasha muri taransiporo yo kugenda hakurya no hino.

Umugabo uri ku kiyede bisa naho ari guhereza umufundi sima. Ikiyede ni cyiza cya gufasha gutera imbere nawe wagikora.

Abantu benshi n'inzu ifite amatafari y'umutuku. Iyo ke... Inzu kenshi bayita urusengero. Mu bigaragara abantu bagiye gusenga. Gusenga ni byiza, bituma Imana ikubona ko uri iruhande rwayo kandi imana ikunda umuntu ujya gusenga.

Ahantu bigaragara ko hari abantu bicaye baruhutse bisa nkaho bavuye ku rugendo, hepfo yaho hariho ubuhunikiro benshi bakunda gushyiramo ibigori.

Ahantu bisa nkaho hari gufungwa umunsi wo gukora imihanda, harimo imodoka eshatu hirya harimo amashuri.

Ni inzu nziza cyane ifite amatafari y'umutuku kenshi bakunda kuyita kiriziya, kuruhande hariho ibiti birebire. Kiliziya iradufasha tujya gusengeramo, tugasenga Imana.

Abantu benshi bisa n'aho bari mu nama cyangwa se hari uwo bari kumva uri kubagezaho ibitekerezo byabagirira umumaro, ni umumama ubahagazemo hagati wateruye ijambo ari kurivuga, ari kuribwira aba bantu abantu bose.

Umugabo uri imbere y'abantu bisa nkaho ari kugaragaza icyo ashoboye, imbere ye hariho abantu benshi bari kureba ibyo ari gukora.

Abantu benshi bari mu nama bisa nk'aho bari kwiga ku cyateza imbere abaturage muri rusange, hariho icyapa bari kurebaho ibintu.

Umugore uri kuvuga mu bantu, wagira ari gutanga impanuro cyangwa se akaba ari mu nama, ari kugira ikintu abagezaho, nk'umuntu mukuru. Nigore wambaye neza, ufashe mikorofone.

Umusaza arikuvuga imbere yabantu, iruhande rwe hariho umuntu urikumureba , wamufashije n'umutaka bisa nkaho ari kugira ikintu abwira abantu.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye ifomu y'ubururu ,bahetse n'ibikapu bisa naho bagiye, bari impande y'imodoka, mu bigaragara bagiye kugenda ku ishuri.

Inzu bisa nk'aho hakurya bari kuyubaka itari yuzura, imbere y'aho hari umuhanda w'umukara uri gutambukamo moto, no hakurya hari kumanuka iyindi moto.

Ahantu mu isantire hejuru hariho icyapa cya tigo, abamotari baparika, baparitse moto zabo. Bigaragara ko ari mu isantire y'urujya n'uruza.

N'abakobwa bari kwinjira mu modoka bisa naho bagiye ku rugendo, barimo kwinjira muri bisi nini ihenze. Ifite icyapa na purake maganatatu mirongo icyenda na kabiri.

Abanyonzi benshi cyane. Abanyonzi basa naho bari ku rugendo, baparitse hari ikintu bategereje kugira ngo bagende, ni abanyonzi bambaye iniforume y'umuhondo.

Muri gare imodoka nyinshi ziparitse n'imitaka za Eyateli . Imodoka z'umweru zisa n'aho zitegereje gutwara abantu.

Ni urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, bisa n'aho bategereje gutega bajya ahandi hantu, bisa n'aho hari ikintu k'ikirori cyabaye aho hantu.

Amagare y'abakirnnyi, amagare meza yo gutemberaho bisa naho ari ku isoko. Ni amagare meza cyane y'icyatsi, wayifashisha uri gukorara na siporo.

ndege iri ku kibuga ikibuga kinini ikirere gisa neza, ni indege isa n'umweruru, ifite n'irindi bara ryo hasi ry'umu ryubururu. Indege ni nziza idufasha kwambutsa ibintu tubijyana mu gihugu tubijyana mu kindi.

Ni umumotari usa n'aho uri gukata vuba vuba yihuta cyane, umumotari wambaye kasike y'umutuku n'amajire y'umutuku, ufite purake ya eri mirongwirindwi n'icyenda hashi.

Abantu benshi bisa n'aho bari mu isoko harimo n'imodoka. Isoko ni ryiza cyane abantu bararikoresha kenshi mu buhahirane.

Imodoka nini itwara abagenzi, benshi bayita visiti Rwanda bigaragara ko itwara abakinnyi cyangwa se ibindi bintu, imodoka ni nziza idufasha mu ngendo z'abantu bafite ibintu bagiyemo n'imodoka y'ubururu ifite amapine ane.

Abantu benshi bari mu bwato bisa nkaho ubwato burimo abantu benshi cyane, buri mu mazi, amazi ni meza cyane adufasha byinshi.

Umugabo uri gusunika imizigo, hakurya hari umutaka wa emutiyene bisa nkaho hariho umuntu uri gucuruza amayinite. Hari umugabo wambaye ishati yu'bururu.

Izi modoka n'abantu benshi ,bisa nkaho ari muri gare ,bisa nkaho aba bagiye gutega imodoka nziza idufasha mu rugendo.

Bisi isa icyatsi ifite ibirahuri by'umuka, isa nk'aho nta muntu urimo. Bisi ni nziza, idufasha mu rugendo. Twambuka intara tujya mu yindi, twambuka ibihugu tujya mu bindi.

Ubwato bunini cyane ,bigaragara ko ubu bwato ari ubw'u Rwanda ,kuko buriho ibendera ry'u Rwanda, ku ruhande yaho harimo abandi bafite ubwato butoya cyane ,bisa naho bari kwimurira ibintu mu bwato bunini .Ubwato ni bwiza cyane, budufasha kwambutsa ibintu tubijyana ku bindi.

Imodoka nini nziza cyane ifite uburebure bunini, ku ruhande rwayo hariho izindi modoka ntoya. Imodoka ni nziza itwara abantu benshi cyane, kandi ifasha abantu muri rusange gutwara imizigo n'ibintu byinshi.

Ahantu hariho imifuka myinshi bisa naho ari imifuka ari mu ruganda. Uruganda ririmo abantu n'ibintu byinshi, n'imashini iri imbere iri kwikorera imizigo.

Umugabo, umugabo bisa naho ahetse inyama kuri moto, ni umugabo wafatiyeho kuri moto ari mu muhanda, hakurya hari porutaye, hirya yaho hari umunara. Uyu mugabo ibintu yakoze ntabwo byemewe.

Igare bapakiyeho ibintu byinshi cyane. Hejuru hariho ihema ribitwikiye. ku ruhande rwaho hariho umugabo bisa n'aho afite agacupa.

Umuntu uri ku igare hakurya hariho etaje y'ibirahuri by'ubururu, umuntu ari ku gare atwaye, ni abantu babiri batwaye amagare y'icyatsi, amagare ni meza aradufasha mu rugendo rwa buri munsi.

Umugabo uri ku modoka, imodoka y'icyatsi bisa n'aho ari iy'urugendo, hirya yaho hari indi ya kabiri ,imodoka ni nziza cyane ifite ibirahuri by'umukara.

Imodoka nziza iri mu ibara ry'umweru, yanditse amagambo mu mpande yayo ifite n'ibinyoteri kuruhande, iyi modoka ni nziza ifasha abantu m'urugendo.

Umukobwa mwiza wambaye neza agakoti hasi no hejuru, afite imisatsi inyereye bigaragara ko hari ikintu ashaka kwerekana.

Umugabo wafashe ku modoka inyuma, uburyo bwo kugabanya urugendo rwe akihuta, ariko ibi bintu ntabwo byemewe, biteza impanuka mu muhanda ntabwo ari byiza.

Gare y'abantu benshi cyane, imbere hariho abantu bambaye udupira tw'ubururu, wagira ngo ni bo bari gutanga amatike yo gutega imodoka.

Izi ni imodoka z'umweru, zisa naho ziparitse muri gare. Gare ni nziza ifasha abantu muri rusange.

Umusore uri muri siporo wambaye ijezi ufite na balo, mu bigaragara ari muri siporo ari ahantu habugenewe gukorerwa siporo, mu bigaragara ari gukora siporo.

Abantu benshi bisa n'aho bari muri siporo, bambaye udu tisheti cyangwag se utujaketi tw'umuhondo, bambaye amapantaro y'umukara, usibye ko harimo umwe wambaye ipantaro y'icyatsi, hirya hariho icyapa cya MTN.

Ni umwana uri muri siporo mu bigaragara hasa nkaho hari abantu babagabo inyuma, bari kureba biteguye kureba ibyo agiye gukora.

Umukobwa uri muri siporo bisa nkaho ari gukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane, ifasha abantu bose.

Abantu bari gukina vorebore. Ni imwe mu mikino abantu bakunda cyane. Imikino myiza inanura kandi inagabura.

Umujene uri gukina kiriketi, ni agakino keza kagufasha kuruhura mu mutwe, ni agakino keza kabyara n'amafaranga, ni umukino udakunzwe n'abatari bake, ukunzwe n'abatari bake.

Umukobwa ufite imisatsi miremire bisa naho ari ahantu muri stade, ari gukina imikino y'amaboko. gukina ni byiza cyane biruhura mu mutwe binaruhura n'ingingo, binanura n'ingingo kandi ababikora nk'umwuga bibabyarira inyungu.

Abakinnyi bari gukina mu kibuga. Hejuru hariho ibyapa byanditseho viziti Rwanda. Gukina ni byiza binanura umubiri, kandi kubabikina nk'umwuga bibagirira mumaro.

Umujene usa n'aho ari gukina viziti Rwanda. Ari gukina imikino ikunzwe n'abatari bake, imikino myiza cyane, kuko imara siteresi cyane.

Ni abantu benshi bavuye muri siporo, harimo n'umuzungu bisa naho yari yabasuye ni abantu bishimye cyane, harimo n'abakobwa, barishimye cyane.

Pisine isa n'aho ifite amazi y'ubururu, ifite akazu keza ko kurahande, gashakaje amamabati y'umukara, busa n'aho bwije. Hirya hari ishyamba.

Umukobwa urigukina kiriketi. Bisa naho ari mukibuga kinini cyagenewe gukinirwamo umupira cy'ubururu.

Abakobwa babiri n'abasore babiri bari gukina imikino yo gutera igiti. Imikino ni myiza iruhura mu mutwe kandi ifasha umubiri.

Umujene ufashe akantu mu ntoki, bisa n'aho ari gukina agatenesi, yambaye inkweto zifunze. Imikino ni myiza cyane, ivura siterese ku bayikora nk'umwuga irabungukira.

Umusore n'umukobwa babiri bari gukina imikino myiza, kandi imikino ni myiza ku bantu bose kuko irafasha mu buzima, ituma umuntu amera neza.

Umukobwa uri gukina tenisi, umukobwa bisa naho bishimishije, yambaye ijipo y'ubururu n'isengere y'umuhondo, gukina ni byiza bivura siteresi n'umunaniro.

Aba bakobwa bari kwiruka muri sitade ya Kigali. Muri sitade y'u Rwanda, ni abakobwa bari muri siporo bari gusiganwa. Siporo ni nziza cyane.

Umukobwa ugukina kiriketi imikino abantu benshi bakunda imikino myiza, kandi gukina ni byiza bivura siteresi n'umunaniro, gukina ni byiza cyane.

Abanyamakurusu bari muri Visiti Rwanda, ni benshi cyane, ku ruhande hariho n'abaje gufana abanyamakurusu. Abanyamakurusu ni benshi cyane kandi uyu mwuga uraragabura.

Ibikombe n'imipira bifite amabara nkay'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu biri kugaragara neza cyane.

Umwana uri muri siporo yambaye ingofero, yambaye agatisheti k'icyatsi. Inyuma bisa nkaho hari abandi bamukurikiye, asa nkaho yari yazamuye intoki ebyiri ashaka kwerekana ko arenze.

Abantu bari kwiruka bari masiganwa, kwiruka nibyiza ni siporo. kwiruka birananura kandi bivura siteresi kandi kuba babikora nk'umwuga bibabyarira inyungu.

Umugabo uri muri siporo, bisa nkaho afite sipidi nyinshi cyane, yambaye agapira k'umukara, imbere hariho icyapa cyanditseho ngo siporo ni nziza cyane.

Abakinnyi benshi basa n'aho bari gufata ifoto, abakinnyi bambaye imyenda y'umweru, bafashe positeri nk'abari kwifotoza. Gukina ni ibyiza gukina biruhura mu mutwe, kandi bigira umusaruro, bivamo amafaranga.

Abagabo babiri bafite umupira, bigaragara ko bari kuwamamaza. Ni umupira wanditseho; kabiri gatanu. Cyangwa se makumyabiri na gatanu. Ni abagabo babiri bambaye amarinete, bari kwifotoza.

Umuzungu uri ku igare mu Rwanda ,umuzungu uri ku igare asa n'aho ari umukurusi, akazi k'ubukurusi ni keza , karagabura kavamo amafaranga.

Abakinnyi benshi bambaye imyenda y'ubururu yanditseho Rwanda, umwe yambaye nimero cumi na rimwe undi yambaye nimero icyenda.

Abantu benshi bazamuye ibipfunsi byabo, bisa naho bishimiye intsinzi, hasi hari ahantu hari akantu, tapi y'ubururu.

Abakobwa bambaye imyenda y'ubururu, n'abandi bambaye iy'icyatsi, bisa n'aho bari barimo gukina, baruhutse. Gukina ni byiza cyane, birambura imitsi, birambura ingingo z'umubiri.

Abana bari muri siporo bambaye imyenda isa. Siporo ni nziza cyane igira umumaro ku mubiri ndetse no ku buzima bwa buri munsi bwa muntu.

Umujene ufashe balo bisa naho agiye kuyiregura, naho ari gukina, ari gukora siporo. Siporo ni nziza cyane ifasha umuntu kuruhura mu mutwe, no ku bantu bayikora nk'umwuga ibagira amafaranga.

Umugabo uri gukina umukino bisa nk'aho ari basikete, cyangwa se undi mukino, gukina ni byiza bifasha umuntu kunanura amaguru ,cyangwa se ingingo z'umubiri kandi byagufasha, byanaguteza imbere ubikoze nk'umwuga.

Ahantu bigaragara ko ari muri sitade, irimo abantu benshi cyane hejuru hariho tereviziyo yerekana amashusho yo mu kibuga hasi, bigaragara ko bari gukina basiketi cyangwa iyindi mikino.

Aha ni kuri sitade, sitade ifite amabara menshi, stade ni nziza cyane, abantu barayikunda bayifashisha bari kureba umupira, bari no gukiniramo ni nziza cyane.

Aba abakobwa bari gukina vole volebolo bambaye imikara bambaye n'ubururu, bambaye n'inkweto z'umukara .Hariho umugabo usa n'aho uri kubasifura, hariho n'abantu bari kubareberera.

Umuhanda usa n'aho ushaje ukikije na bolodire z'umweruru n'umukara, nko hagati haciyemo uturongo tw'umweru.

Umuhanda mwiza w'umukara ufite impande amapave y'umweru n'umukara. Umuhanda ni mwiza turawifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Ikigega giteretse ahantu hejuru, bisa naho bagishyigikiye kugira ngo kijye hejuru. Hirya yaho hariho imodoka, hirya yaho hariho inzu, hirya hariho ikirunga.